Ibyapa. Ibyapa biri mu buryo bumwe wakoresha ushaka kwamamaza ibintu runaka. Cyane cyane ko aba ari binini, kandi biba bigaragarira buri umwe wese ubinyuzeho.

Banke ngendanwa ni uburyo bushya wakoresha banke yawe wifashishije terefone yawe ngendanwa bitagusabye kuva iwawe ugere kuri banke utonde umurongo.

Banke idufasha kutworohereza imikoreshereze y'amafaranga nko kuzigama, kubitsa, kubikuza ndetse no korohereze mobayilo banke apu nayo ikaba yagufasha kuba utagera ku kicaro cya banki kugira ngo ubone serivise iyo ari yo yose.

Yundayi ikigo gicuruza imodoka zo mu bwoko bwa yundayi, ukaba wabagana aho uherereye hose ukaba wahitamo imodoka ikubereye yo mu bwoko bwa yundayi wifuza.

Akagera motozi bakuzaniye imodoka nziza cyane zo mu bwoko butandukanye, bagane aho bakorera aho ariho hose nawe utware imodoka y'inzozi zawe.

Akagera motozi kampani icuruza imodoka bakanakorohereza kukugezaho imodoka yawe aho uherereye. Bagane kuko bafite imodoka z'ubwoko bwinshi w'ihitiremo iy'amahitamo yawe.

Bimwe mu bikoresho nkenerwa mu buzima hakaba habonekamo utubati, intebe, ameza, udusutabure bikaba byagufasha gushyira ku murongo ibintu byawe.

Amaduka aho wasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye imyenda, ibiribwa, inkweto, imbuto hamwe hahurirwa n'abantu benshi baje gushaka ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu ikodeshwa. Iherereye muri Kigali, umurenge wa Kimironko. Ikaba ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ataratu.

Inzu ikodeshwa ikaba iherereye i Konombe-Busanza ikaba ifite ibyumba bine ndetse ikagira n'ubwogero butatu.